Umuntu uri gutera umuti inyanya zigeze igihe cyo kuzana imiteja, zishingirije ibiti bikomeye, bibajije, bitandukanye.

Umuntu urimo gutera umuti igihingwa çyiza gifite uturabyo tw'umweru, kugira ngo kitazarwara, kiri guterwa umuti wica udukoko.

Abantu benshi bari mu guhinga ifumbire bitegura kuyikorera. Ahantu hasa n'aho ari mu kabande, ifumbire nziza, iboze, imeze neza.

Umuntu ufite ikiganza gitose, kiriho amazi, urimo gucucira utumera tukiri dutoya cyane, dufite ibabi, ndetse n'akantu gatoya n'umutwe wako.

Ibyo kurya biteguye kuba bateka, harimo ibikomoka mu mazi, n'ibihingwa. Birunze hamwe ku kantu kameze nk'agatambara karambitse ku meza.

Amafi atanu ari mu gapaniye gatukura, gateretse ahantu kuri sima, gasa neza, gafite isuku n'amafi aryamye mu gapaniye.

Amafi yapfuye ari ahantu hasa naho hakonje cyane mu bintu bimeze nk'urubura by'umweru wererana cyane. Ayo mafi ni menshi cyane aryamye hasi agerekeranye.

Imbuto n'inyanya na karoti birambitse ku bintu byumweru derereri . Harimo n'ikindi kintu cy'umutuku kiri hagati , ndetse n'igihaza.

Imbuto zitandukanye harimo amaronji, ahiye n'adahiye neza bakasemo kabiri biri kumwe n'amafi n'inyanya, ibiribwa bifite intungamubiri nyinshi.

Amafi yapfuye ari ku gasahani keza gafite isuku, gateretse ahantu hasi, bigaragara ko ari umwana wakahashyize, kuko umuntu mukuru ntiyakahashyira.

Ahantu heza, hari imisozi migufi n'ibiyaga bibiri byegeranye, ahantu hateye ibyatsi bitoshye, bigaragara ko ari ahantu heza ho kuba.

Amafi atatu ari ku gasahani imwe irasamye cyane andi yasamye gahoro. Afite ibara ry'umweru n'iry'umukara ateretse ahantu hijimye.

Ikiyaga gifite amazi menshi cyane, n'ibimera bigikikije. Hari n'ikirwa kirimo hagati, ndetse inyuma yaho hirya cyane hari umujyi.

Amafi meza cyane menshi barunze hamwe avuye mu mazi ako kanya, amafi abyibushye afite imirizo myiza, ameze neza.

Ibiryo biri ku isahani y'umweru, hariho ifi, inyanya n'umuceri. Isahani iteretse ku meza isa neza.

Ifi barimo gukawusha, iri ku muriro, ndetse iruhande rwayo hari irunji rikase neza, munsi harimo umuriro uri kwaka, ufite ingufu.

Ubutaka buhinzemo karoti zikiri ntoya, n'ibishyimbo bigiye bivanze na karoti, iruhande rwaho hari ibindi bihingwa by'icyatsi kibisi nabyo bikiri bitoya.

Urutoki ruri kumwe n'urusasa, ahantu hahinze benda guteramo imyaka inyuranye. Imigano iracyari mitoya.

Ahantu hateye ibitunguru bikiri bitoya bikeneye kubagarwa, kuko byatangiye kumeramo ibyatsi, iruhande rwabyo hari ibiti n'intoki.

Beterave iteye ahantu ishishe imeze neza, isa naho yeze iteye yonyine, iruhande rwayo hari ibyatsi bikeya, ikikijwe n'akantu k'umuhondo bayiteyemo.

Ihene enye ziri kona imyaka, harimo eshatu z'imikara n'indi imwe y'umutamu, zose ziri kona zegeranye.

Ahantu barimo gutunganya, hagiye guhingwa. Iruhande rwaho hari ibiti bikuze, bigeze igihe cyo gusarurwa. Ndetse n'ahandi hadahinze.

Ibirayi biteye ahantu h'ikibaya, bigeze igihe cyo kuhirwa biratoshye bimeze neza, ariko bisa naho ifumbire yabayemo nkeya.

Ikidodori kiri ku biti. Kirimo umuteja umwe n'amababi menshi. Kiri iruhande rw'amazu ku gipangu, ariko cyo kiri mu biti nta bwo kiri ku rupangu neza.

Ahantu hateye ibihingwa binyuranye, isombe y'igicucu, imyumbati, ibishyimbo, ibisheke, ibitoki biribwa n'ibivamo imineke.

Ahantu hahinze neza cyane, hahinze imitabo harimo ibimera biri kumera ariko bikiri bito. Hari n'ibitunguru biri iruhande rw'ibiti bigufiya.

Ahantu batemye ibiti birunze ahantu hahingwa, n'ibindi biti bihagaze biri iruhande rwaho , ndetse hariho n'akayira kanyuze iruhande rw'ibyo biti.

Ahantu hari ibyatsi byinshi bitoshye, iruhande rwabyo hari n'ibiti birebire , bifite ibara ry'icyatsi ryijimye.

Ahantu basaruye ibigori byari biteye ku misanza y'imitabo. Ntabwo bigeze batera ibigori hejuru mu mitabo, kuko nta bigorigori birimo.

Ibyatsi bisa neza, hateyemo ibiti by'ubwoko binyuranye, ahantu hari amazu meza y'amabati, harimo ateye sima n'adateye sima.

Umurima basaruyemo ibigori, byari byarakuze bikaba birebire. Ugeze igihe cyo guhingwa, iruhande rwawo hari ibiti birebire bitanga imishingiriro.

Ahantu batemye urutoki hari ibyatsi bigiye bitandukanye. Ibirebire n'ibigufi byegamiye ku nzu z'amatafari zidahomye n'indi y'ibiti.

Ahantu basaruye ibigori byari byeze neza ariko bitaruma. Ibigori byari bifite ibitiritiri binini, harimo abagabo babiri n'abandi bana bari impande yabo.

Umurima uteyemo uruyuzi rw'igihaza, havanzemo amateke, ibitoki biribwa, n'ibindi byatsi bitabagaye.

Ibihingwa birimo kumera bikiri bitoya birimo gukura, harimo ibiti biri iruhande rwazo ndetse n'ibitoki biri aho hafi.

Avoka mbisi harimo iz'icyatsi n'iz'umukara bagiye guhubika, bamaze gusarura zirunze hamwe.

Inka nziza itagira amahembe, ifite amabara y'umweru n'umukara, iri kumwe n'indi y'ibihogo, ahantu mu rwuri rumeze neza.

Amatunda ateye ahantu mumurima, yatondagiye akazamuka, afite imiteja myinshi kandi myiza.

Avoka basaruye ziteze havanzemo n'izeze, zirunze ahantu hamwe munsi y'igiti. Igiti kiragaragara ibabi, amababi makeya cyane.

Mu isoko ahantu bacururiza imbuto z'ubwoko butandukanye. Hari imineke, imyembe, inanasi n'indimu ndetse n' avoka.

Ibirayi byiza byasaruwe birundwa ahantu mu ikusanyirizo, ariko harimo ibisa n'ibibore bigaragara ko bikeneye kurobanurwa.

Ibyo kurya by'ubwoko bunyuranye birunze ahantu mu isoko kuri shutingi y'umutuku. Birimo ibirayi, ibijumba, ndetse na karoti na pwavuro.

Umurima urimo ibiti byinshi hamwe n'ihema, umushishiro wazamutse ku giti cyera imiteja miremire cyane kandi myiza.

Abantu bagiye gusura ibihingwa bitandukanye, harimo abagabo n'abagore bamanitse amaboko, bisa naho basaba ijambo umuntu uri hagati yabo.

Abahinzi benshi cyane bari mu murima, bari kwigishwa uburyo bwo gufumbira umurima ukoresheje iswagara aho abantu baje kubafasha mu kubigisha guhinga.

Umugabo uri muri Pikinyeri, uri kurandura ingemwe z'icyatsi ziri mu bihoho, zo kujya guterwa ahandi hantu, zikorotiriye n'imbaho.

Aba mama batatu bari kubagara umuceri n'umugabo umwe wambaye ingofero, aba mama biteze ibitambara. Umuceri usa icyatsi kibisi.

Abamama benshi ndetse n'abagabo bavuye gusarura icyayi, bacyikoreye mu bitebo bisa n'ibyapfumutse, kugira ngo kitaza gupfa.

igitoki cyiza gitarwamo imineke basaruye, barambitse hasi ku butaka nta n'ikintu bakirambitseho. Haragaragara iruhande rwaho utwatsi dukeya cyane.

Ahantu bacururiza imboga n'imbuto. Hari inyanya, intoryi, karoti, imiteja, amaronji n'izindi mbuto nyinshi cyane zitandukanye.

Ahantu hari ibihoho birimo ingemwe z'ibiti bagiye gutera, ahandi hantu zikuze zigeze igihe cyo guterwa. Hari n'abantu benshi baje kuzitwara.

Ahantu hari imigozi myinshi irambitse hasi, n'abantu benshi bicaye b'abahinzi bafite n'umutaka w'ubururu, n'inyubako zifite amabati.

Ahantu hari inkoko nyinshi zifite amabara atandukanye. Harimo inkokokazi ndetse n'isake bigaragara ko batajya bahakorera isuku kuko hadakubuye.

Udufuka tw'akawunga turi ahantu muri sitoke. Dufite ibara ry'umweru ,dupanze tugerekeranye, iruhande rwaho hari n'utundi dufite ibara ry'umuhondo.

Ibihwagari bimeze neza, harimo abadamu bane bishimye cyane, basa n'aho bari kubyifotorezamo, umwe yiteze igitambaro cy'umutuku, yambaye n'umupira w'umutuku mwiza. Mbega abadamu bishimye!

Umugabo uvuye guhinga, ufite isuka ku rutugu, na terefone ku gutwi wishimye urimo guseka. Yambaye agatisheti k'umukara karimo utubara tugiye kuba umweru.

Avoka mbisi nini zikuze ebyiri n'indi imwe isatuye zifite utubabi kamwe kamwe, ziri ahantu h'icyatsi.

Abantu benshi bari guhinga ahantu mu murima, harwanyije isuri mu materasi y'indinganire, iruhande rwabo hari ibiti barahinga ari benshi, bamwe bareba ruguru abandi hepfo.

Ahantu haciriritse bacururiza ibyo kurya. Hari inyanya ziri mu gapaniye, iruhande rwazo hari ibasi na puwavuro ziri ku mufuka zifunze imifungo.

Abantu bari mu murima bari gutunganya imyaka yagiyemo amazi menshi cyane, bagiye kurwanya isuri. Baje bitwaje n'amabase n'igare, ndetse bamwe barahagaze abandi bari gukora.

Igiti cy'imyumbati yeze neza cyane giteye hamwe n'imboga z'amashu nkeya zidacucitse nziza.

Umuhinzi uvuye, uri gusarura ibinyabijumba byeze cyane. Ku giti hariho umusaruro ushimishije cyane.

Avoka imanitsemo igicuyuma, iruhande rwa yo hari insina y'igitoki ikiri ntoya, ifite amakoma asa neza.

Inyanya eshatu zitukuye n'izindi zitaratukura ziri ku giti cyazo giteye ahantu mu murima ufite ubutaka bwiza.

Umusore uteruye imyumbati myinshi cyane yeze ku giti kimwe, wambaye inkweto z'umweru n'ipantaro y'ikoboyi, n'agapira gaciye amaboko.

Umuntu urimo gusarura ibihingwa yari yarahinze, bifite icyatsi kibisi, umusaruro ukaba ufite ibara ritukura.

Ahantu bacururiza ibyo kurya birimo ibitoki n'ibindi binyuranye, bari kubipakira mu modoka babijyanye ku isoko hirya no hino.

Amatunda meza ya marikuca, ahiye cyane, arimo akababi k'icyatsi, atatu arasatuye, imbuto zayo ziri kurebeka, ateye amabengeza.

Ahantu bagiye gutera ibirayi ariko bakabitera kijyambere, bakoresheje ifumbire y'imborera n' imvaruganda, nubwo batarayizana barayikoresha.

Ibijumba byiza bakuye bakarunda hamwe, byogeje bifite ibara ritukura, kandi bisa n'aho biryoshye cyane.

Abamama babiri bavuye guhinga bafite amasuka abiri ku ntugu zitandukanye. Uw'imbere afite agafuka, n'undi afite agakapu k'icyatsi, bose biteze ibitambara.

Umugabo ufite ibigori bine byumye, harimo iby'umweru n'iby'umuhondo, ari mu murima w'ibigori yambaye umupira urimo amabara y'umukara n'umweru, ndetse n'agapira k'imbere k'ikora gafite ibara ry'icyatsi.

Imbuto nziza nini z'icyatsi, ziri ku giti gisasiye ibishakashaka byumye ndetse kinameze neza gitoshye.

Avoka eshatu, n'izindi ebyiri z'ibisate zirambitse ku meza, biteguye kuba bafatamo amafunguro yabo.

Utubuto tw'umutuku, dusutse ku mufuka urambitse ahantu hakoze neza harimo amapave, n'utundi turi mu ibase ni inyanya zikiri ntoya.

Iteke ryiza rijya gutukura, rimwe rikasemo ibice bitatu byiza, babikase ku buryo bw'ibiziga, irindi ntabwo rikase.

Abantu benshi bavuye gusarura icyayi bacyikoreye harimo abagore benshi, n'umugabo umwe. Abagore bamwe bahetsa abana, abandi ntabo bahetse. Iruhande rwabo hari icyayi.

Amatunda basaruye arunze ahantu hamwe, ateye ipfa afite udukondo dutoya, arasa n'aho agiye kuba umukara harimo icyatsi gikeya.

Abagore bakuze bari guhingisha amasuka meza, ataraba udufuni ahantu hari itaka risa n'irigiye gutukura, bigaragara ko ryakwera neza.

Abantu benshi cyane bari guhinga ahantu harwanyije isuri, hafite ubutaka bwiza b'wumukara, bweramo ibihingwa bigiye bitandukanye.

Ahantu hateye uruyuzi rukiri rutoya, rwera ibihaza by'amadegede. Iruhande rwarwo hari ibyatsi na byo bisa neza, bifite ibara ry'icyatsi kibisi.

Imyumbati ibiri myiza irambitse ahantu hafite isuku, igerekeranye yombi ikaseho, kandi ifite utwoya dukeya.

Umudamu ufashe isuka uri guhinga ahantu mu kibaya, inyuma ye hari ibibara bidahinze n'udushyamba duto duto tutarakura neza.

Karoti zogeje ziri mu mufuka bujuje cyane ,zigeze hejuru basutsemo uduti tw'imigano kugira ngo zijyemo zifite utwatsi duke ,n'ibindi byatsi babikase.

Imiteja ,imiteja myiza basaruye Barunze hamwe. Ahantu hafite isuku hameze neza. Imiteja yuhiwe ikabona amazi igatoha.

Intoryi ziri ahantu mu isoko zitegereje kugurishwa, iruhande rwazo hari indobo enye zisa ubururu, kandi ziteretse zitandukanye.

Abantu bari guhinga mu materasi y'indinganire batatu bageze mu gihe cyo gutera iruhande rwabo hari imyaka imeze neza y'icyatsi kibisi.

Imbuto z' imyembe ziri ku giti cyiza gitoshye cy' icyatsi kibisi, imbuto zarababutse, zisa nizakubiswe n' izuba ryinshi cyane.

Amashaza agiye kwera ageze igihe cyo kuba yanyogotwa, hari n' uturabo duto duto, ndetse amashaza yabonye imvura ihagije, kuko aratoshe ameze neza.

Imyaka iri mu mugifuka kinini cy'igitaka. Isa n'aho yumye kandi irasa neza. Ifite isuku.

Umusaruro mwiza wabonetse. uri gusarurwa usukwa ahantu hamwe kugira ngo uzatunganywe, ushyirwe mu mashini bitabagoye kandi wumye.

Umuceri w'ingano bitarera ariko bisa neza, bifite ibara ry'icyatsi kibisi bigiye kuzatanga umusaruro mwiza mu minsi ir'imbere kuko zabonye ifumbire.

Abamama benshi bari kugosora amasaka, arimo inkumbi nyinshi, ahantu mu kigorigori basaruye ibigori.

Amashaza atareba afite uruyange. Ameze neza, yabonye imvura ihagije ndetse n'akazuba. Azatanga umusaruro ushimishije.

Ibigori byiza byinshi bimanitse ahantu mu ikusanyirizo bigerekeranye imirongo enye. Ikusanyirizo risakaje amabati hasi hariho utuntu tw'utwuma tw'umutuku.

Ibigori byiza bya mayizori bibiri byibivune bifite impungure nziza cyane ziteye ubwuzu, barimo gutunganya bitegura kuzikoramo ifu y'igikoma.

Abamama benshi, bamwe barahagaze, abandi bicaye. Imbere ya bo hari ibasi irimo ubusa n'igitebo kirimo imyaka, n'indi isutse ku isiniya.

Abantu bari gutunganya umusaruro umeze neza. Ibintu by'umutuku bibereye kuribwa, bari kubitunganya neza bize kubikwa.

Ibiribwa bifite ibara ry'umuhondo rimeze neza bifite isuku, bishashe ahantu ho byasaruriwe bikaba bimaze gutunganywa.

Ibishyimbo bigufi, biteye ahantu mu butaka bibagariye, nta cyatsi kibiri iruhande, bifite imiterere myiza n'amababi meza.

Ibishyimbo bisa nabi. Biri ku ngemeri iteretse ku kantu k'agatanda. Gafite ibara ry'umukara. Ako kantu biragaragara ko karambitse hasi.

Ibihingwa biteye ku murongo bimeze neza kandi bitoshye. Bikeneye akavura kugira ngo birusheho kuba byiza, kuko nta mvura iheruka kugwa, iruhande rwabyo harumye.

Umumama mukuru witeze igitambara urimo kugosora ibintu bisa n'aho birimo inkumbi nyinshi, iruhande rwe hari ibyatsi byiza bitoshye bimeze neza.

Ibishyimbo byiza, bifite amabara atukura, ndetse n'ay'umuhondo, kandi agiye kuba umukara, biri mu gisuperi gisa nk'aho ari umuhondo.

Umuntu wambaye ingofero y'umweru ndetse n'ikoti ry'umukara n'ipantaro y'ikoboyi y'ubururu, uri mu bihingwa bikiri bitoya bifite ibara ry'icyatsi.

Ahantu h'ikibaya kinini hateye ibishyimbo, bimwe birashingiriye ibindi ntabwo bishingiriye. Iruhande rwabyo hari ingano ngufi zitangiye kuma.

Ibishyimbo byinshi by'imikara bisutse ahantu hasi, hari n'igitebo bari gusukisha babikura ahantu biri, bagiye kubyanika.

Ibishyimbo byiza cyane, byatewe kijyambere, bitoshye, bifite amababi y'icyatsi kibisi, byuhiriwe, bitegereje akavura, ngo birusheho kumererwa neza.

Ahantu hari umusaruro uri mu mifuka minini y'ibiro ijana. Ifite akabara k'icyatsi ku ruhande, ahandi hari umweru yuzuye cyane.

Umumama uri gutunganya imyaka akoresheje ibikoresho bya Kinyarwanda biboshye mu migano ndetse n'imihotora yiyicariye atuje.

Amajeri ya kizungu yumye, yasaruwe agatunganywa neza akarungwa ahantu hamwe, harimo rimwe ribisi rikiri mu bishishwa, ririmo amashaza atatu

Imbuto nziza y'ibishyimbo bitukura, ibindi by'umweru, iteretse mu mifuka minini, ahantu bakusanyiriza imbuto zo gutera muri sezo izakurikiraho.

Ikusanyirizo babikamo imyaka nk'imbuto n'amafumbire ndetse n'ibindi bintu bitandukanye bikoreshwa mu buhinzi.

Ibihingwa harimo ibifite amabara atukura ,iby'ibyatsi biri kumera , biteguye gutangira guhinga.

Amajeri y'umuhondo, yumye kandi atonoye, asataguye, ari ku gisorori gisa nabi, cyafashe ingese, giteretse ku meza.

Ibigori bifite amabara atandukanye ay'umukara, umweru, umuhondo, ndetse biriho n'ibibabi byabyo, bipfunditse bigiye gushyirwa mu ikusanyirizo.

Uturibwa duto duto duhunguye turi ahantu, tumwe turambitse ku makaro utundi turi ku gikoresho cy'umukara, utwo turi ku gikoresho turi kumera.

Ibishyimbo byiza basaruye bikiri bibisi. Hari ibishyimbo bitonoye, n'ibindi bikiri mu bishishwa. Biragaragara ko uwo muntu ari iruhande rw'umurima, kuko haragaragara amababi y'ibishyimbo n'akayange ka.... .

Ubworozi bw'inkoko bwa kijyambere ahantu hari imishwi myinshi cyane ifite amabara y'umweru ndetse n'akandi gashwi kari ku kintu kimeze nk'icyari hejuru.

Inka ziri mu kiraro hamwe n'umuveterineri waje kuzivura, wambaye isarureti y'ubururu, bote n'agakoresho kabamo imiti kari iruhande rwe.

Inkwavu eshatu zifite amabara y'umweru n'amatwi ajya kuba umukara, ziri mu kibuti, ziri kurisha ubwatsi bukeya butarazihaza.

Inka yororewe mu kiraro, iri kugaburirwa ubwatsi mu ngombe yayo, n'umumama ubikora abikunze cyane.

Ibibwana by'ingurube byinshi biri konka icya rimwe nyina iryamye hasi, har'amabere bitari konka, ni bikeya ugereranyije n'amabere ya nyina.

Ahantu hari amagi menshi cyane, ari mu dukurete. Ni sitoke y'amagi y'inkoko za kijyambere, ameze neza.

Inka nziza z'inyambo, zifite utuntu mu ijosi ndetse n'izindi zateze urugori. Zimwe zirabyagiye, izindi zirahagaze ahantu habugenewe.

Ahantu hakorerwa ubworozi bw'inkoko hari inkoko enye. Imwe ihagaze mu zo kurya, izindi ebyiri zirimo kurya.

Ingurube ya kijyambere iri kumwe n'utwana twayo turi konka ari twinshi. Turi kubyigana , nyina yaryamye ngo ibone uko itwonsa.

Inka nziza iri ahantu mu rwuri hari ubwatsi butoshye n'ibiti iruhande rwabyo. Ifite amabara y'umukara n'ay'umweru n'amahembe magufi.

Umugabo mugufi wambaye agapira k'umutuku n'ipantaro y'ubururu ndetse na sandali, uri mu kibuti cy'ingurube aho zororerwa. Hari ingurube umunani zubakiye neza.

Ahantu hakorerwa ubworozi bw'amatungo hari ihene, inkoko, n'umugabo urimo kubireberera uhagaze iruhande rw'ikiraro, ndetse n'imyaka ngo zitona.

Ishyo ry'inka ziri ahantu mu rwuri harimo inka z'ibihogo n'iz'umweru zitagira amahembe inka nziza nyinshi cyane ziri munsi y'imisozi ahantu heza cyane.

Inka y'amabara y'umweru n'umukara. Iri mu kiraro iri kurya ubwatsi butoshye, iruhande rwayo, iruhande rw'ikiraro hari ubwatsi.

Umuveterineri ugiye kwita ku matungo yororwa kijyambere mu kiraro, wambaye itaburiya y'umweru na bote, n'akagofero k'umukara.

Inkoko nyinshi za kijyambere ziri ahantu hamwe. Zifite amaguru ajya kuba imyeru, hari n'izihagaze ku bintu bimeze nk'imifuka iteretse aho bororera inkoko.

Ubworozi bw'inkoko. Aho bazororera mu kiraro, ni inkoko zifite ibirokoroko bijya gutukura n'akantu k'umutuku bigaragara ko zinyweraho amazi.

Ikinyamaswa giteye ubwoba, gifite amabara ateye ubwoba, kiri kugenda ahantu mu murima gishaka ibyo kurya, gifite akarizo gatoya.

Inyoni eshatu ziri ahantu mu giti z' imikara mu ishyamba ry'inzitane ,zisa naho zapfuye baziziritse ndetse n'uduti turiho utuntu tumeze nk'utubuto tw'icyatsi.

Igikoko kiri mu mazi hagati cy'umukara gifite amabara y'umweru n'umuhondo, gihagaze ku kantu kameze nk'agati.

Ikinyoni kinini gifite umunwa ujya kuba umuhondo n'umweru wanduye, ndetse n'andi mabara ajya gusa n'igitaka n'umukara mwiza. Gihagaze ku kantu kari ahantu heza.

Inyamaswa yitwa imbogo y'umukara, ifite amahembe abiri ateze arebye hejuru, iri ahantu mu ishyamba iruhande rw'imigina.

Ibinyoni bibiri bihagaze ku ishami ry'igiti, kimwe ni umutuku ikindi gifite ibara ry'igitaka, imirizo yabyo ijya kuba umukara.

Inzoka nini cyane yizingazinze ifite amabara y'umukara nay'umweru , iryamye ahantu mutwatsi iteze umuntu ndetse ishaka ibyo kurya.

Akanyamaswa gafite amaso meza, n'amatwi abiri ahagaze, kameze nk'agapusi gahagaze ahantu mu byatsi bisa naho ari birebire bidakabije.

Igisiga cy'umukara gifite umunwa ujya kuba umuhondo. N'amababa yumukara. Gihagaze ku gati gafite amahwa kari ahantu mu migina.

Inyoni nziza ifite umunwa w'umukara, muremure n'ubwoya buri ku mababa y'icyatsi avanzemo n'umuhondo, imbere mu nda.

Igishuhe kiri mu mazi, gifite umunwa muremure, cyarobye agafi, kikaba kigafite mu kanwa kigiye kukarya.

Akanyamaswa kameze nk'imbeba kari ahantu gasa n'aho kagiye gucukura kakajya mu itaka, kakiberamo, kari ahantu heza.

Ahantu hari ibyatsi byiza bitabonye imvura ihagije, ndetse n'ubwatsi bw'amatungo n'imbuto zitarakura. Harimo n'igitoki kikiri gitoya kitaragera igihe cyo kwera.

Inyoni nziza, ihagaze ku kamera k'icyatsi, gafite amabara y'umutuku ku ndabo zako ndetse no ku gatiritiri. Inyoni isa n'aho isinziriye.